Amacupa atandukanye abikwamo imiti ndetse n'ibinini akaba ari mu macupa y'imyeru ndetse akaba afunikishijwe imifuniko y'ubururu, umweru, umuhondo ndetse n'ibara ry'icyatsi.

Umuntu ufite icyuma cy'umuhondo gitera umuti wica udusimba mu myaka akaba yambaye igisarubeti cy'umweru ndetse akaba yambaye na ga mu ntoki kugira ngo yirinde ingaruka ziva muri iyo miti.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse akaba afite telefoni n'igitabo mu ntoki, imbere hari umugabo wambaye isarubeti ndetse akaba ahetse icyuma, ari gutera inanasi umuti.

Umurima ukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi, hakaba harimo imbuto zitandukanye, hakaba hari guterwamo imiti irinda ubusimba ko bwabyangiza ndetse ikanafasha amababi y'izo mbuto gukomera, akaba yabasha kurwanya imvura.

Umugabo munini wambaye umupira w'umutuku ndetse imbere ye hakaba hateretse ibasi y'ubururu irimo amafi matoya, akaba agiye kuyashyira mu cyuzi kugira ngo nayo azororoke ayagurishe.

Icyuzi gikorerwamo ibikorwa byo kuroba amafi ndetse no kuyororeramo, kugira ngo babonere umusaruro wo kwihaza mu biribwa ndetse bikanakurura ba mukerarugendo baza ku hasura.

Ikiyaga kinini gikurura ba mukerarugendo ndetse kikororerwamo n'amafi, harimo abagabo babiri, bambaye imipira y'ubururu ndetse n'ingofero, bafite shitingi, bakaba baje kuroba.

Umugabo wambaye umupira wenda kuba umweru w'amaboko magufiya, wiyogoshesheje ufite indobo irimo amafi menshi bigaragara nk'aho avuye kuroba kandi aya mafi akaba ayajyanye kuyagurisha.

Icyuzi kiri ku butaka bwegereye ishyamba ririmo ibiti by'inzitane, hakaba hahagaze umugabo wambaye ingofero na' marinete, afite amafi abiri mu ntoki uko bigaragara avuye kuyaroba akaba agiye kuyateka.

Umugore wifubitse igitenge akaba afite igitambaro mu mutwe ari ahantu hahinze icyayi akaba ari gusarura agenda ashyira mu gatebo yasize inyuma ye.

Umurima munini cyane urimo ikibaya ukaba utewemo icyayi kikiri gitoya ndetse ukaba uri ku buso bunini, hirya y'aho hari imisozi iteyeho amashyamba ndetse hakaba n'indi iteyeho ibyayi iri kure.

Igiti cy'icyatsi gifite amababi akomeye kiriho ikawa nyinshi itukuye igeze mu gihe cyo gusarurwa iyi kawa ikaba igemurwa mu bihugu byo hanze kugira ngo bayibyaze umusaruro ndetse ibashe kubamo ibindi bintu. Urugero nk'icyayi.

Imirima minini yahinzwemo icyayi ikaba irimo abagore bifubitse ibitambaro n'ibitenge mu mutwe bakaba bari kugisarura, uri imbere yabo akenyeye igitenge ku nda, bigaragara ko ariho ari kugisarurira akaba ari guseka.

Abagore babiri bari gusarura icyayi, bambaye ibitambaro mu mutwe ndetse umwemba umupira w'umweru, undi yambaye umupira urimo amabara y'umukara ndetse n'umutuku.

Umurima munini urimo ibyatsi hakaba hateyemo ibiti birebire, ko bigaragara hahinzwemo icyayi ndetse hirya y'aho hari imirima ikozwemo amaterasi y'indinganire.

Abagore bari hagati y'umubare w'icumi cyangwa cumi na batanu, biteze ibitambaro bambaye amaji y'umutuku, arimo amabara y'umweru, bakaba bahagaze mu biti by'ikawa bakaba bayisaruye bayifite mu ntoki.

Igishanga kinini cyiza gituwemo n'amazu makeya ari hirya ku mbibi zacyo hakaba harimo abagabo bari gukorera ikawa ihahinze, ikawa ikiri ngufiya itarakura ko bigaragara nyuma y'imyaka itanu nibwo izaba yeze.

Abantu batatu, umwe witeze igitambaro, akaba yambaye umupira w'amaboko magufiya urimo imirongo y'ubururu n'umweru bakaba bari gusarura ingano bigaragara ko zeze kandi zumye.

Umurima munini udahinze ukikijwe n'ishyamba ry'inzitane, hakaba harimo ameza ndetse n'intebe, bakaba barambitseho shitingi, bagashyiraho ikawa bigaragara ko yeze yenda gutunganywa mu ruganda.

Umugore wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ingofero y'umweru, uhetse agatete mu mugongo, akaba ari gusarura icyayi, ari wenyine ari kugenda agisarura agishyira inyuma kugira ngo aze kubona uko agitwara.

Ahantu habikwa imiti y'amatungo irinda ibirondwe ndetse n'inzoka zo mu nda, iri kwitabwaho kugira ngo itazapfa itarakoreshwa, cyangwa ikazagira ingaruka itera mu gihe bayikoresheje.

Farumasi nini irimo imiti y'amatungo ndetse ikaba icuruza n'ibiribwa by'amatungo, ikaba iri kwitabwaho ikorerwamo amasuku ndetse hakaba harimo udupupa tunini tw'umweru dufite imifuniko y'umweru.

Umuryango uri ku nzu nziza cyane uteretseho ameza ndetse n'intebe irimo icyuma kibika inanga batera amatungo ikaba iri ipfunduye kandi ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Uducupa twinshi dupfundikiye turi mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara dufite imifuniko y'imikondo ndetse n'imikara utundi dufite imyeru tugaragara nk'aho hari imiti yica udusimba ku myaka ndetse no mu bihingwa

Isoko ryiza ricururizwamo amavuta yo kwisiga ndetse n'amapuderi abagore bisiga rikaba riri kwamamaza ubwoko bushyashya bazanye kugira ngo abaturage babashe kubugura.

Uducupa tw'umweru, dufite imi imvuniko y'imyeru ndetse tukaba turiho ibipapuro inyuma biriho amagambo ndetse biri mu ibara ry'icyatsi, tukaba duteretse ahantu ari twinshi.

Utubuni tw'umweru dupfundikishije imifuniko y'umutuku, hakaba hariho igikapuro inyuma gishushanyijeho inka. Utu tubuni hakaba harimo imiti ivura amatungo, inzoka zo mu nda.

Akabati gapanzemo amacupa y'imyeru ndetse akaba afite ibipapuro by'icyatsi ndetse n'imikara, akaba apfundikishijwe imifuniko y'umweru dede.

Ahantu heza hari mu ibara ry'igitaka, hejuru yaho hakaba hari akabara k'umweru gatambitse hateretseho uducupa twinshi turi mu ibara ry'icyatsi turimo imiti ivura amatungo.

Amacupa ateretse ahantu hijimye akaba apfundikijwe n'imifuniko y'imituku andi ariho ibipapuro by'imyeru byanditseho amagambo, ndetse andi ni maremare yo gusumba ayandi.

Farumasi irimo imiti ikoreshwa n'abaveterineri bari kubungabunga indwara ku matungo inka, intama ndetse n'ihene, iri kwitabwaho kugira ngo iyo miti itazapfa.

Utubuni dupakiye ahantu hamwe dufite ibara ry'umweru, dupfundikijwe n'imifuniko y'umutuku ndetse ku gipapuro kiri kuri ako kabuni hakaba hariho amatungo y'ubwoko butandukanye byerekana ko harimo imiti.

Umurima munini urimo ibyatsi byinshi, hakaba harimo umugabo usunitse igare bigaragara nkaho avuye kwahira, yambaye ishati irimo uturongo ndetse n'ipantaro irimo ibara ry'umweru.

Igishanga kinini giteyemo ibigori kandi hakaba hahagazemo abagabo babiri bari kunyanyagizamo amazi mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa byabo bikure neza kandi babirinde ko izuba ryabyangiza.

Umurima munini uhinzemo ibirayi ndetse n'inyanya, bigaragara ko uri mu gishanga hakurya hari imisozi ibiri iriho amashyamba hakaba harimo umugore uri kubikorera ndetse no kubibagara.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro yumukara, akaba afite isuka. Hepfo ye hari umugore wunamye ,akaba ari guhinga .Hepfo yabo hari akana kahagaze muri uwo murima.

Umugore ufite agafuka, mu ntoki, akaba yiteze igitambaro mu mutwe yambaye igitenge ndetse, n'isengeri y'umweru, ari mu murima, haruguru yahahinze imyaka.

Umurima mwiza witatiriye ingo ukaba uri mu gishanga harimo umugabo wambaye ishati y'umweru uri gusarura amasaka yeze neza akaba avuga ko yayahingishije ifumbire ndetse akanayitaho kugeza akuze.

Ahantu hanini heza harimo ishyamba ry'ibiti bya kimeza ndetse n'ibyatsi byitwa umukenke, hakaba harimo abagabo batatu ndetse n'umugore umwe wikoreye ibiti, undi iyo mugabo afite umuhoro mu ntoki ndetse n'agafuni.

umugore witeze igitambaro mu mutwe akaba ari mu bitunguru bihinze ahantu mu murima, mu gishanga hakaba hari umurima uri ahantu honyine hategereye amazu ndetse hakurya yaho hakaba hahinze ishyamba.

Ubwoko bw'ibiribwa ndetse n'inzoga zo kunywa, harimo ibigori ndetse amarongi, inyanya n'imigati, hirya yaho hakaba hari icupa ririmo inzoga, hasi yaho hakaba hari ibirahure.

Imboga za doodo ziteye ahantu hamwe, bigaragara ko hari umuntu waziteye agashyiramo ifumbire nyinshi. Zifasha abana mu ndyo yuzuye, ndetse n'abantu bakuze cyane.

Umurima munini wari uteyemo amasaka ndetse ukaba uhinzemo n'ibiti birebire bifata ubutaka kugira ngo hatazabamo isuri, harimo umugore n'umugabo bari kuhahinga bitegura gushyiramo indi myaka.

Ni umurima munini wafumbiwe neza ariko baza guteramo ibiribwa byanga gukura, nyuma bashyiramo imyumbati iza gupfa. Biravugwa ko uwo murima wabuze ishwagara kubera ubusharire bwinshi burimo.

Umurima ukorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi hakaba harezwemo ibirayi. Bakaba bisaruriye mu ndobo z'imikara zifite imikondo y'ibyuma. Zikaba ziteretse hagati mu mirongo itandukanywa imirima.

Ibibazo byo kubura kw'imvura mu karere ka Nyagatare, byatumye umusaruro w'ibigori ugabanyuka ndetse n'ibibabi byabyo biruma ku buryo hatavamo n'ubwatsi wagaburira amatungo, abaturage batanga ikibazo ku buyobozi kugira ngo bashake igisubizo.

Igishanga kinini giteyemo ubwatsi bw'amatungo, hakaba harimo n'ibiti bibasha kukuzana igicucu muri urwo rwuri kugira ngo inka cyangwa ihene zitaba zagira ikibazo.

Umurima munini uteyemo imyumbati ndetse n'imigozi y'ibijumba, ikaba ibagariwe, imyumbati ifasha mu kwihaza mu biribwa ndetse no kurwanya ubukene.

Imbuto nziza twavuga amaronji indimu ndetse n'ibitunguru, hakaba harimo n'ibihaza bigira ingaruka nziza ku mubiri ndetse bikanongera ubudahangarwa bwo kwandura indwara zitateganyijwe.

Isoko ricuruza ibikoresho ndetse n'ibiribwa, hakaba harimo korogate ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'amavuta yo kwisiga, hino yaho harimo inyanya bateka ndetse n'ibindi birungo.

Umurima uteyemo ibiribwa byitwa imyumbati, uwo murima ukaba udahingiye ariko ukaba nta byatsi byinshi birimo, uko bigaragara umaze igihe witaweho n'ubwo hamezemo utwatsi dukeya.

Ibirayi binini by'umweru, bikaba birunze ahantu. Bikaba biri bugurishwe mu masoko kugira ngo abantu babashe kuba babiteka cyangwa bakabijyana mu zindi bizinesi.

Umurima mwiza cyane witaweho ushyirwamo ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda bateyemo imyumbati izamuka imeze neza ku buryo mu gihe kiri imbere izasarurwa ikajyanwa ku masoko.

Umuhinzi kabuhariwe wabigize umwuga uhinga mu gishanga cyiza cyane gifumbirwa akaba yahakuye ibirayi byeze neza akaba agiye kubijyana ku isoko akaba yakoresheje isuka nziza yiguriye.

Umurima munini uteyemo amashyamba ndetse ukaba urimo n'ibiti batera mu rwuri hamwe bororera amatungo ku buso bunini, hakurya yaho hari umurima ubuhinze; bigaragara ko wenda guterwamo imyaka.

Umurima munini cyane uciyemo indinganire kugira ngo zirinde isuri, hakaba hatewemo ibiti bifata amazi ndetse hakaba harimo ibigori, ingano ndetse n'amasaka bihahinzwe bikaba byenda kwera.

Ishyamba rinini riteyemo ibiti byinshi ndetse hakaba harimo agace mo hagati gasa nkaho ari imbuga, hakaba harimo ibiti birebire bicufitse bigaragara ko haba harimo inyamaswa cyangwa ibindi binyabuzima.

Umurima munini utewemo ishyamba ndetse n'ibihuru biri mu bwoko butandukanye, bigaragara ko habamo inyamaswa nyinshi ndetse n'ibindi binyabuzima biba hanze y'ingo. Hakaba harimo ibiti by'inturusi, inyambo ndetse na sipure.

Igishanga kinini cyane kiri hakuno y'ibiti birebire ndetse n'umusozi, giciyemo amazi menshi cyane abantu barobamo amafi ndetse bakanayakoresha bari kuhira imyaka yabo.

Umurima munini uteyeho amashyamba indi ikaba ihinze. Ibyo biti ntabwo byegeranye, biragaragara ko ari urwuri rwororerwamo amatungo ndetse hakaba hari n'akandi gace k'iyo mirima gakorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi.

Umusozi munini uteyeho ibiti ukaba uriho n'ibyatsi harimo amazi amanukaho abana baza kuvoma ndetse no kwidumbaguzamo leta ikaba ivuga ko igiye kwahashyira uruzitiro kugira ngo hatazagira umwana ugwa mo.

Imbuga nini cyane itewemo ibiti by'inturusi ndetse n'indakatsi, nta nzu ihatuye hakaba haberamo ibikorwa byo kuragiriramo amatungo ndetse no gushakira amatungo ibiyatunga.

Igishanga kinini cyane kirimo ibyatsi, bahirira amatungo kiri munsi y'ishyamba ritwitse batemye, bashaka kuzakuramo amakara azajya yifashishwa mu gucana imbabura.

Ishyamba ririmo ibiti bitandukanye urugero; inurusi, imivumu ndetse n'ibiti by'amapera, hakaba havugwa ko habamo inyamaswa zitandukanye, haba inka, inyoni ndetse n'ibisamagwe.

Akarima k'igikoni gakozwe mu mifuka ndetse kakaba kubatse hakoreshejwe ibiti bitoya, kakaba gateyemo imboga za dodo, ibitunguru ndetse n'ubundi bwoko bw'imboga. Hirya yaho hakaba hari inzu ndetse n'imibyare ihateye.

Abadamu bane bambaye ingofero ndetse n'amataburiya by'imyeru, bafite amavoka menshi cyane bagiye gucuruza kugira ngo babashe kwiteza imbere ibi nabyo biri mu byo kwihangira umurimo wo kubona amafaranga.

Isoko ririmo imbuto nyinshi karoti, ibigori, urusenda, pavuro, idodo ndetse n'inyanya bikaba bihurijwe ahantu hamwe, hari ibitunguru biri hino ndetse hakaba n'ibihaza.

Ururabyo ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ay'iroza rukaba rwararabye, rukaba ruteye ahantu. Ibi bigaragaza ko rukurura inzuki ziba zaje gutaramo ubuki ndetse no gushaka ibizitunga.

Umugabo wambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'ishati y'ubururu bwererutse, akaba ari kumwe n'abagore bahagaze mu mashu, aho bari kuyabagara ndetse banashyiramo amafumbire kugira ngo azere neza.

Ubutaka bunini bugari kandi bwiza buri kwitabwaho n'abagoronome babyize kandi babigira umwuga bagiye kubahinga amashu ndetse n'inyanya bakaba bari gucishamo imiyoboro bazajya bakoresha bari kuhira.

Isoko ryiza cyane ricuruza imboga n'imbuto harimo umugore witeze igitambaro n'abandi babiri baje guhaha inyanya zihari nziza z'umutuku, hejuru yaho hakaba hari indobo y'icyatsi bazizanyemo.

Umurima mwiza wahinzwe kijyambere ukaba warafumbiwe neza, hahagazemo abagore babiri ndetse n'umwana, bakaba barikuhira bakoresheje indobo y'ibara ry'umuhondo ndetse bakaba bari no kubibagarira.

Umurima uhinzemo igiti kirimo imbuto zenda kumera nk'amapera ariko zifite ubundi bwoko, gifite amabara y'icyatsi ndetse gishamitseho amababi menshi cyane akaba ariho amahwa.

Umugabo uhagaze mu murima akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'ishati y'umweru, afite umupira ukoreshwa mu gukurura amazi, akaba ari kurihira imyaka ayirinda ko yakwicwa n'izuba.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, inyuma ye hari n'undi umuhagazeyo, akaba afite umupira uvoma amazi, inyuma ye hari ibi bimeze nk'imyanda ndetse n'igiti cyihateye.

Umugabo wambaye isarubeti y'umukara akaba yambaye na linete z'umukara, afite ipombo itera umuti ndetse akaba ari gutera ibigori bigeze mu kigero cyo kwera, bikaba biri mu ibara ry'icyatsi, biratoshye hasi y'aho haca umugende ujyana amazi.

Umurima uteyemo amashu uhagazemo umwana uri kuyuhira ufite rozwari y'umukara nawe wambaye ishati y'umweru haruguru yaho hariyo inzu yegeranye n'imodoka hepfo yaho hari igiti cy'avoka.

Abagabo n'abagore bari mu murima uteye mo imibyare, imbere yaho hari umubyeyi ufashe umupira ujyana amazi, akaba awukoresha ari kuhira imyaka.

Umugabo wambaye ingofero ndetse akaba yambaye na bote z'umukara n'ikoboyi, afite umupira utera amazi akaba ari kuhira imyaka, hepfo ye hari akazu kahubatse gasakajwe amabati.

Igishanga kinini gikorerwamo ibikorwa by'ubuhinzi nk'umuceri ndetse n'ibigori, hakaba haresitawe umurasire ukurura umuriro binyuze mu buryo bw'izuba cyangwa imirasire.

Umurima uhinzemo amashu ndetse n'ibigori hakaba harimo abagabo ndetse n'umukobwa umwe uri kubyuhira akoresheje umupira uzana amazi uyakuye ku kigega akaba ari kuhira yambaye bote ndetse n'isarubeti.

Umudugudu w'icyitegererezo wubatse ahantu hepfo y'umuhanda ukaba wegereye imirima ihingwamo ibigori, amasaka ndetse n'ibirayi bijyanwa ku masoko kugira ngo babone uko bihaza mu biribwa.

Umurima munini udatuyeho abantu bigaragara ko hariho icyayi giteyemo ndetse n'urwuri, hari n'ahandi hari amaterasi y'indinganire bigaragara ko bahateye ibyayi bitarakura ndetse n'ibindi bigeze mu gihe cy'isarurwa.

Ikibaya kiririmo inzu imwe ndetse n'amashyamba bigaragara ko hateye ibyayi, ibigori ndetse n'ibijumba; ndetse hakurya hari yo imisozi itandukanye miremire ihakikije.

Ikiyaga kiri hagati y'imisozi gikikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi byatsi urugero nk'iturusi imbingo se, kikaba gikorerwamo ubworozi bw'amafi ndetse kikaba gikurura na ba mukerarugendo.

Aha ni mu mudugudu mwiza utuwe n'abantu bakeya uko bigaragara harimo imibyare, ibiti ndetse n'inzuri aho baragirira amatungo yabo kandi hari n'indi mirima bahingamo imiceri, ibigori ndetse n'ingano.

Umurima munini cyane uteyeho ishyamba hakaba hanyuzemo inzira, uko bigaragara ijya ku ivomero hari amagare abiri ahateretse hirya yaho hari amabuni arimo amazi.

Igishanga kinini kigituyemo abantu kandi hakaba hari n'amashyamba abegereye bakaba bafite ingaruka zo kuzarwara malariya kubera ko hari ibihuru byikingwamo n'imibu itera iyo ndwara.

Ishyamba ry'inzitane bivugwa ko habamo inzoka ndetse n'imbwa, hakaba hanyuzemo umuhanda w'igitaka abantu bacamo, bavuga ko banyuramo bafite ubwoba kubera izo nyamaswa zihaba ndetse bakagenda bikandagira.

Umurima uteye mo ibyatsi byitwa urwiri, hepfo yaho hari inzu ebyiri, zubatse zikaba zisakaje amabati ashaje, munsi y'urugo hari imibyare yeraraho ibitoki ndetse hepfo yaho hakaba hagenze ibiti birebire.

Ibiyaga bigize igihugu cy'u Rwanda, harimo ikiyaga cyiza cyane cya Muhazi kiri hagati y'imisozi kandi kikaba gikikijwe n'ibiti kandi cyororerwamo amafi acuruzwa ku masoko.

Inzu zituye mu manegeka, hakaba higanjemo amashyamba ndetse n'imirima yatwawe n'isuri, haruguru yaho hateye imibyare myinshi cyane ivugwa ko ikurwamo ibitoki byengwamo inzoga.

Umurima munini uteyemo imibyare ndetse hakaba harimo n'ibyatsi, ukaba unyuzemo imigende icamo amazi iyamanura, ikaba iyarinda ko yakwangiza imirima ndetse abantu baka bayakoresha barimo buhira.

Bamwe mu baveterineri babigize umwuga ndetse n'abayobozi babo baje gukingira inka z'inyambo ziherereye mu karere ka Nyagatare. Kugira ngo bazirinde indwara zandura ndetse batanga n'inama ku bashumba bazo.

Ubworozi bwa kijyambere bworora amatungo harimo ingurube za kizungu bukaba bwariteje imbere kubera ko ingurube zabo bazorora neza kandi bakazigaburira indyo yuzuye zigakura neza cyane.

Urupangu ruhurijwemo inka z'amahembe maremare bita inyambo rwubakishije ibyuma bikomeye cyane, hakaba hari abaveterineri ndetse n'abandi bambaye amataburiya.

Inzu nini irimo amadirishya y'imbaho ndetse isakaje amabati, hakaba harimo inkoko nyinshi cyane zihagazemo n'abagabo, babiri umwe wambaye umupira w'umukara ndetse n'igisarubeti, undi wambaye ishati y'umweru.

Inzu yubakishijwe amatafari ya rukarakara nini ,ikaba yororerwamo inkoko zikiri ntoya, nyuma y'ibyumweru bitatu bakazigurisha zimaze gukura ,kugira ngo babashe kugeza inyama z'inkoko ku isoko.

Ubworozi bwiza bw'ingurube zoburowe kijyambere, zigaburirwa neza zikanitabwaho ku rwego rw'isuku ndetse n'imirire, bigaragara ko ziri gutanga umusaruro mwiza cyane waba uw'inyama ndetse no kororoka.

Inzu nini yubakishije imbaho ikaba yororerwamo ihene ziri mu bwoko bwinshi zifite amabara atandukanye harimo iz'umweru, umukara ndetse n'amabara yombi. Zikaba zisohotse zigiye hanze kurisha.

Umugabo ukenyeye isume akaba yambaye isengeri y'umweru, afite ikibo kinini mu ntoki ari gukuramo imbuto ashyira mu murima, hirya ye hari imashini ikoreshwa mu guhinga.

Umugore wambaye isengeri ndetse n'ingofero y'umukara, akaba afite intara, akaba ari kugosora, inyuma ye hari ibati ry'ubururu ririnda, umuyaga uza ugatwara ibyo ari kugosora.

Inzu nini nziza irimo ibirahure byereruka ndetse ikaba irimo abantu bari gukora ubushakashatsi imbere yaho hakaba hari ameza ateretseho agacupa k'umweru.

Inka nini ifite icebe rinini ikaba yabyaye akanyana kakaba karyamye hasi mu rwuri mu byatsi ikaba iri kukegera ikarigata kugira ngo kabashe guhumeka neza.

Abaveterineri bambaye ibisarubeti by'ubururu, bakaba bari kumwe n'abandi bambaye amataburiya y'umweru n'amabote y'imikara, bakaba bari ku nka iri mu kiraro cyubakishije ibyuma.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, akaba ahagaze ku gipangu kirimo inka z'Inyambo zifite amahembe manini, kikaba cyubakishijwe ibyuma, hakurya y'aho hakaba hari igiti kihateye kirekire.

Umuvuzi w'amatungo aribo bita abaviterineri, akaba afashe ingurube ku gutwi ari kureba icyo yabaye ikaba ifiteho ikibazo ndetse akaba ari buze kuyaha imiti nasanga ari ngombwa.

Abagore bambaye amataburiya n'udutambaro mu mutwe bari kumwe n'abaveterineri bambaye ibisarubeti by'ubururu ndetse na bote z'umweru n'ingofero bari ku kiraro cy'inka bari kureba ibyo zibura ndetse n'ibyo zikeneye.

Inka z'inyambo zifite amahembe maremare zubakiye urupangu rw'ibyuma, ziri kwitabwaho n'abaveterineri ndetse n'abandi bazorora bareba icyakorwa.

Parike ibamo inyamaswa zitandukanye, ba mukerarugendo bagiyemo ubundi bafotora ingwe, intare ndetse n'impyisi zari ziri aho zaje kubashungera nuko bazana amafoto yazo.

Inyamaswa iri mu byatsi birebire. Ikaba igaragara nk'injangwe cyangwa ingwe. Iri mu byatsi bigaragara nkaho hari urwiri. Inyuma yaho hakaba hari ishyamba ry'ibiti birebire.

Inyamaswa ifite amahembe afite amashami, ihagaze ahantu mu byatsi byerreuka kandi ihagaze yemye, itari kugenda yitegereza imbere.

Igisambu kinini kirimo ibiti bigufiya ndetse n'ibyatsi bisanzwe, hakaba hahagazemo inyamaswa zifite imizotsi miremire, ndetse n'izindi ngufiya zifite amabara y'umweru n'umukara.

Ikiyaga kinini kirimo amatungo, urugero: nk'ibishuhe ndetse n'amafi manini cyane. Gikurura ba mukerarugendo baje guteka ayo mafi ndetse bakanayacyura iwabo imuhira, bamaze kuyagura.

Umurima munini urimo ibyatsi gakondo, hakaba hari kugendamo imodoka irimo abagabo babiri bari gufotora, imbere yaho hahagaze inyamaswa yitwa imbogo iri kubitegereza.

Parike nini irimo inyamaswa z'inkazi, nk'inzoka ndetse n'ingwe hakaba hari igiti kirimo inzoka nini cyane y'amabara menshi urugero umweru n'umukara.